Hahagaze abantu babiri, umwe wambaye ingofero y'umweru, undi w'imisatsi, umwe akaba ari umunyafurika undi akaba ari umuzungu, bahagaze ahantu hari za mudasobwa zigiye zitandukanye.

Hirya gato y'umuhanda hari inyubako yo mu barara y'umweru ndetse hakaba hahagaze n'imodoka y'abashinzwe umutekano ndetse n'indi imwe, hakaba hari umuryango ubonerana utuma umuntu abona mo imbere.

Abantu benshi bicaye mu ngoro nshingategeko y'u Rwanda, bakaba bicaye ku ntebe imbere hari ameza, bafite za mudasobwa, abandi bakaba bari kwandika mu makaye ndetse imbere hakaba hagiye hari n'indangururamajwi.

Hirya gato y'umuhanda nyabagendwa, hahagaze amapikipiki menshi atwara abantu, hakaba harimo n'akoresha ingufu z'amashanyarazi ndetse imbere gato hari igiti, hirya kure hakaba hari inyubako ndende.